Mu nama yahuje urugaga rw'abakire mu mujyi wa Kigali, hanzuwe yuko umuhanda Noruvege ugomba kujya ukoreshwa, mu rwego rwo kugira ngo hirindwe akavuyo, kaba mu yindi mihanda, mu mujyi wa Kigali.

Mu nama yabereye muri Serena hoteri yahuje urubyiruko ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bakomeye baturutse mu bihugu by'abaturanyi, hibanzwe cyane cyane ku cyatuma ubuhanzi nyarwanda butera imbere.

Mu nama yahuje abantu benshi batandukanye mu gihugu hari abagiye batanga ibitekerezo harimo n'umukobwa umwe w'inzobe wari wambaye ishati y'umweru, wahagurutse agira urubyiruko rugenzi rwe kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'ibishuko.

Mu burakari bukomeye cyane ndetse n’ubushishozi, abayobozi batandukanye bo mu nteko ishinzwe ururimi n'umuco, bari kureba amarushanwa agendanye no guteza imbere gakondo.

Abagabo benshi barimo n'abadamu bagiye batandukanye, bari mu kigero k'imyaka mirongo itatu na mirongo ine kuzamura, bitabiriye inama yahuje abaturage bose bo mu murenge wa Rukoma, biga ku kibazo cy'umutekano muke.

Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ikorera mu Karere ka Nyagatare yavuze ko amatora y'abadepite agomba gukorwa muri ibi byumweru bibiri bigiye kuza, hatagize igihinduka, kandi abaturage bagomba kwitegura.

Umusaza umwe yaragize ati ''burya ijambo ni irya mukuru''. Mu nama yateranye kuri uyu wa gatandatu, abaturage bateze amatwi umusaza ubundi abagira inama y'uko bagomba kubana n'abandi mu mahoro.

Mu nama ya Imbuto foundation yabaye, umwana w'umukobwa, yagiriye inama itari gito bagenzi be ndetse n'abandi ko bakwiye kwishakamo ibisubizo, aho kugira ngo batege amaboko, rubanda ngo ruzabafashe.

Mu nama yahuriyemo n'abaturage benshi barimo abagabo n'abagore bahetse abana ndetse n'abandi batandukanye bitabiriye inama yigaga ku buryo bwo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri.

Mu muco nyarwanda igihe abageni bari mu gikorwa cyo gusaba no gukwa bagomba kwambara imyitero mu rwego rwo kwimakaza umuco ndetse n'indangagaciro z'Abanyarwanda.

Gutera ibiti ni ingenzi kuko akenshi na kenshi abaturage bahurira muri iki gikorwa mu rwego rwo kugira ngo ibiti byiyongere ndetse n'umwuka mwiza uyunguruye uboneke mu baturage.

Inkongoro ni kimwe mu gikoresho gihabwa agaciro cyane mu muco nyarwanda, bitewe nuko yifashishwa mu guha abana amata ndetse ikaba yanayabikwamo mu rwego rwo kugira ngo atangirika.

Uduseke tuvuga byinshi mu muco nyarwanda kuko iyo umuntu yaguhaga agaseke yabaga aguhaye mo ituro kandi rikaba rifite icyo rivuze mu bucuti mufitanye bityo nawe ukagira icyo umuha mo.

Mu gihe cy'ubukwe hakorwa imigenzo igiye itandukanye, aho umugeni ashyirwa hagati ubundi agakikizwa n'abakobwa bicaye imbere y'igisabo mu rwego rwo kugira umuco nyarwanda udacika.

Mu muco gakondo Abanyarwanda bakoreshaga ibikoresho bitandukanye birimo ibivuza injyana y'umuziki, harimo nk'inanga ndetse n'amakondera mu rwego rwo kugira ngo batarame kandi bishime.

Ibikoresho by'imiziki, birimo ibirombeti ndetse abandi bakunze kwita vuvuzera, ibi bivuzwa cyane cyane n'abasaza basheshe akanguhe kuko urubyiruko, kuri ubu rutabasha kubyisukira.

Mu gitaramo cyo kumurika imideli ndetse n'umuco wa kinyarwanda, hari abakobwa bahagarariye abandi mu kuba intangarugero mu guserukira igihugu cy'urwanda mu mahanga.

Mu rwego rwo kwirinda ko umuco nyarwanda utacika mu gihugu cyacu. Ibirori birimo iby'ubukwe, hategurwa igikorwa cyo kubyina, imbyino gakondo kugira ngo umuco w'u Rwanda ugumye ukure.

Ni ngombwa ko igihe hateguwe inama ihuriza abantu batandukanye, bagomba kwitwararika mu gihe bari kumva icyo uwateguye inama ari kubagezaho.

Mu muco wo mu Rwanda, intore zambara ingofero ikozwe mu buryo butangaje cyane harimo n'ubwoya bw'inka.

Abagore batatu ndetse n'abakobwa babiri bigaragara nk'aho bakuze bari mu misango y'ubukwe kandi barishimira ukuntu urugo rw'abageni rugiye kubakwa kandi rukazakomera.

Kera intango y'ubushera yabaga ifite agaciro gakomeye kuko igihe abageni babaga bari kuyisomaho, abantu babonaga ari ibintu byiza cyane ndetse na n'ubu ikaba ikomeje kuba ikitegererezo mu muco nyarwanda.

Igihe ababyinnyi gakondo bari kubyina injyana za Kinyarwanda, abantu benshi barishima bitewe n'uburyo, aba bari ndetse n'abategarugori baba barimbye, aho bambara utuntu twiza dutuma bagaragara neza.

Mu muco wa kera wabagaho nk'umwidagaduro habagamo n'umuco wo kumasha, aho abantu benshi bagiye bifashisha uwo muco bakawushyira ku mafoto atandukanye.

Urugomero rw'amashanyarazi ruri mu Karere ka Rubavu, na rwowo rutanga hafi mirongo itatu ku ijana by'amashanyarazi yose ava mu gihugu, kugira ngo buri wese abeho neza.

Muri gahunda u Rwanda rwiyemeje yo kugeza abaturage ho amashanyarazi, hari kampani zimwe zigenda ziha abaturage imirasire y'izuba, mu rwego rwo kugira ngo ibasayidire ku batari babona amashanyarazi.

Amashanyarazi ni kimwe mu bintu bigaragaza ko Igihugu gifite iterambere kandi rirambye. Ibi nibyo bituma abantu bose bashishikarizwa kurinda ndetse no kubungabunga ibikorwa by'amashanyarazi.

Urutoki ni kimwe mu bihingwa bivangwa n'imyaka nk'ibishyimbo, bishobora kuvamo ibikoresho ndetse n'ibinyobwa bitandukanye harimo nk'urwagwa ndetse n'umutobe.

Abagabo bakora mu bigendanye n'imirasire y'amashanyarazi, nibo bavuga yuko bidakwiye gucukoza ibyuma bitwara imiriro y'amashanyarazi, kuko ngo bishobora kuvamo impanuka.

Bitewe n'uko bimenyerewe ko igitsina gaboba aricyo gikora ibikorwa byo kumanika imirasire y'izuba, ariko ubu aho leta y'u Rwanda yashyiriyeho uburinganire, n'abadamu basigaye babikora.

Ibigo bishinzwe gutanga ndetse no gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi, bivuga yuko igihe umuntu yegereye bimwe mu bikorwa byabyo, ashobora guhura n'ingorane zikomeye ndetse hakaba harimo n'urupfu.

Kurira amashanyarazi utabiherewe uburenganzira cyangwa wambaye ibikoresho byabagenewe birimo inkweto ndetse n'ibindi byuma bikurinda kuba wagwa ndetse no gufatwa nk'inkongi y'umuriro.

Mu rwego rwo kwihangira imirimo, hari umuturage wo mu karere ka Nyagatare, wafashe umuriro ndetse agura sharijeri nyinshi akajya acomekera abantu bakamwishyura ijana kuri terefoni.

Zimwe mu nama zihabwa abakora ibikorwa by'ububaji ni ukwambara udupfukamunwa kugira ngo ibyotsi biva mu mashini bakoresha bitabajya mu bihaha ubundi bagahura n'indwara z'ubuhumekero.

Mu kwirinda ko habaho inkongi nyinshi za hato na hato ziterwa n'ibura ry'amashanyarazi ndetse no kutitabira ibikorwa byayo, ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kirakangurira abantu kwitwararika.

Ikigo gishinzwe mine na gaze gikorera mu Karere ka Rubavu kirataka igihombo cyatewe n'umwuzure, uherutse guterwa n'imvura nyinshi iherutse kugwa ku munsi w'ejo.

Ibikoresho bigabanya umuriro w'amashanyarazi bizwi ku izina ryataransifo bikomeje gutanga umusaruro bitewe n'uko impfu z'abantu bicwa n'amashanyarazi zagabanyutse.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG, kirakangurira abantu bakomeje guteza ubujura, biba insinga ndetse n'izindi, bikoresho byacyo ko bakwiye kwitwararika ko bazahanwa.

Ikigo gitanga amashanyarazi mu Rwanda REG, kiributsa abaturage yuko igihe habayeho icyaha cyo kwiba ndetse no gutwara insinga zacyo ko bazajya bahanwa kandi by'intangarugero.

Mu mashanyarazi habamo ibintu byinshi aho hari imashini zishinzwe kumenya niba yagiye izindi na zo zikamenya igihe ari bugarukire bityo abaturage bakaba basabwa kwihangana mu gihe yagiye kuko bahita babikurikirana ababishinzwe.

Umukinnyi wa APR fc, ikipe ya gisirikare mu rwanda ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye b'ikipe ya polisi, bayobowe n'umugore, arimo arabasifurira, bakiniye kuri sitade ya Huye.

Nyuma y'uko imvura ihise, umuhanda, biba ngombwa kutoha kandi bikagaragara ko, harimo ubanyereri, bikaba bisaba kwitwararika ku batwara ibinyabiziga kugira ngo badakora impanuka.

Muri sitade iherereye mu Karere ka Huye, hari intebe zigezweho, aho umuntu yicara akaba yanakwegama, bityo akaba yumva nta kibazo nta kimwe afite.

Ubusitani burimo indabo ndetse n'ibindi byatsi bituma hagaragara neza, bigomba gushyirwa ku nzu zitanga serivisi za Leta mu rwego rwo kugira ngo zigaragare neza.

Muri gahunda ya gira ubuzima ni ho abantu ndetse baba bakuze cyangwa ari urubyiruko, bahurira ubundi bakiga byinshi ku nama z'ubuzima.

Abasirikare ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu nzego za Leta, bahuriye ku cyicaro gikuru ubundi baganira ku bigendanye no guteza imbere umutekano w'imbere mu gihugu.

Inzu zubatse mu buryo bwa kinyarwanda, mbese izi bita ibigonyi, ni zo zubatswe muri hoteli ikomeye ituriye Ikiyaga cya Muhazi.

Igororero ry'abana rya Nyagatare rikingishije urugi rw'ubururu ndetse n'amatafari ahiye ku irembo ryaryo, biravugwa ko igihe abana baryegereye, bashobora kurisimbuka bagatoroka,

Muri nyagatare hari igororero ryashyiriweho abana, aho igihe bakoze amakosa bashyirwa muri iryo ngororero ubundi bakigishwa zimwe mu ndangagaciro z'igihugu, bakazavamo ari abagabo ndetse abandi ari abagore b'Igihugu.

Mu buryo bugezweho bwo kubaka amashuri ndetse n'ibindi bigo abanyeshuri bahuriramo bagasoma hashyizweho gahunda y'uko imirego yazajya ifata amazi kugira ngo bizarambe.

Amashuri yagiye atandukanye cyane cyane ay'inshuke, ni ngombwa ko aterwa irangi rigaragaza cyane cyane idarapo ry'u Rwanda nk'icyatsi n'ubururu ndetse n'umuhondo.

Inzu zikorerwamo serivisi z'ubuyobozi bw'Akagari zikomeje gushyirwamo ingufu mu kuzubaka ndetse no kuzibungabunga bitewe n'uko abazigana baba ari benshi kandi bashobora kuzangiza.

Zimwe mu ndangagaciro z'umudugudu wa Kajevuba mu karere ka Nyagatare harimo ko kizira kugira ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no kugambanira Igihugu.

U Rwanda ruri ku isonga mu bihugu bifite isuku kandi bikeye bitewe nuko buri wese agira uruhare mu kubungabunga ibikorwaremezo birimo no kwirinda kujugunya imyanda aho abonye hose.

Inzu zirimo ibigonyi, mbese ziri mu ishusho yabyo, nazo si mu Rwanda gusa ziri kuko no mu bindi bihugu nka Namibia ndetse na za Somalia, izi nzu zibayo kandi zikaba zinjiza amafaranga.

Abaturage benshi batandukanye barimo abambaye udupfukamunwa ndetse n'amashati y'umweru. barangajwe imbere n'inzego z'ubuyobozi harimo na polisi, bifatanyije n'abandi banyarwanda bose mu gikorwa cy'umuganda cyabereye mu mugi wa Kigali.

Televiziyo ikorera i Kigali izwi ku izina rya Furashe tivi yatangaje amakuru avuga ko hari umuturage utaka igihombo nyuma yo kuriganywa na meya.

Mu rwego rwo kwirinda ko habaho isuri ya hato na hato, hashyizweho gahunda yo gushyira ibigega mu mazu kugira ngo bijye bifata amazi, biyarinda kujarajara mu baturage, abasenyera ibikorwa byabo.

Abaturage barimo abasheshakanguhe ndetse n'urubyiruko bitabiriye inama yatanzwe ndetse ikanategurwa n'Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB, hirindwa ko hazagira urwa mu makosa nkana.

Inzego z'ubuyobozi zirimo Polisi y'u Rwanda ndetse n'abasirikare, habayeho ko zigomba kwitabazwa mu gukemura ikibazo cy'abaturage bahawe ingurane y'amafaranga ariko ntibayihabwe ku gihe.

Mu iburanishwa ry'umusirikare wishe abaturage barenga batanu mu Karere ka Nyamasheke ubuyobozi bw'inzego za gisirikare bwaburanishije ku mugaragaro uwabigizemo uruhare ndetse anahanwa by'intangarugero.

Mu rwego rwo kurwanya ruswa ndetse n'akarengane, hateguwe inama izahuza abakuru b'ibihugu baturutse muri afurika y'iburasirazuba kugira ngo habe hashakwa umuti w'iki kibazo.

Inteko rusange y'urubyiruko yateraniye mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba, havuzwe ko buri wese akwiye kugira uruhare mu gushaka icyamuteza imbere aho gushyira amaboko mu mufuka.

Mu rwego rwo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu na rimwe, Jenoside yakorewe Abatutsi, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane, hashyizweho gahunda yo kunamira abarimu, bahoze bigisha ku bigo by'amashuri mu karere ka Nyagatare.

Abayobozi batandukanye barishimira uburyo bahawe uburenganzira mu gukemura ibibazo by'abaturage ndetse ubu n'abanyamahanga bakaba bitabira icyo gikorwa bitewe n'uko nta karengane kabamo.

Abayobozi b'icyubahiro baturutse mu nzego z'akarere, bifatanyije n'indi miryango yose mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, hashyirwa indabo ku mva z'imibiri y'abazize Jenoside.

Umugabo umwe ugaragara nk'aho akuze na we yitabiriye inama yahuje abaturage ndetse atanga ikibazo yari afite ubundi ubuyobozi burakimukemurira.

Abayobozi barimo abapolisi, abasirikare ndetse n'abandi baturage, bateraniye mu nama yabahuzaga, biga ku bigendanye n'ihohoterwa.

Mu kubwirwa akamaro ko kubaka akarima k'igikoni mu rugo meya w'Akarere ka Rusizi Mukabarisa yaganiriye n'abaturage batuyemo muri umwe mu mirenge igize ako karere ku ngaruka nziza zo gutunga akarima k'igikoni.

Guheka abantu kuri moto utabahaye ingofero zibarinda ntabwo byemewe mu Rwanda, kuko bivugwa ko ziriya ngofero zibafasha kwirinda impanuka iyo ariyo yose ishobora kubabaho.

Imodoka zikora ubwikorezi bwambukiranya imipaka zivuga ko bizigora bu bitewe n'uko aba bashoferi bahura n'umunaniro ukabije kubera baba bataryamye ubundi ugasanga bagwa mu nzira.

Imodoka z'umweru ndetse zitwara abantu mu buryo bwa rusange biravugwa ko hashyizwemo uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu aho ashobora gukozaho ikarita ubundi akamenya ahantu agiye ikoranabuhanga rigakuraho amafaranga yabugenewe.

Igihe umuyobozi w'ibinyabiziga ageze ku cyapa gishushanyijeho umuntu wambuka aba agomba kugabanya umuvuduko yagenderagaho kuko muri metero nkeya haba hari icyo bita zeburakorosi cyangwa se inzira y'abanyamaguru.

Igikorwa cy'umuganda rusange cyabaye uyu munsi mu Karere ka Muhanga, umuyobozi ushinzwe abinjira n'abasohoka mu Karere yemeje ko na byo bikwiye gukurikizwa.

Mu gikorwa ngarukakwezi kizwi nk'umuganda rusange abaturage benshi cyane cyane n'inzego z'umutekano, bahurira muri icyo gikorwa ubundi bagasana imihanda itandukanye yagiye yangirika, ibyo bigatuma Igihugu kirushaho gutera imbere mu bikorwaremezo.

Umuyobozi ukomeye uturuka mu ntara y'Uburengerazuba, yavuze yuko ari ngombwa gukora umuganda kuko ngo igihe uteruye ibuye ugiye kubaka igikorwa cy'indashyikirwa, bidasebetse habe na gato.

Gukora umuganda hagamijwe gusenya ibihuru ndetse n'indiri yose y'imibu ni byiza kuko nta hantu amabu utera malariya uzongera guhurira n'abaturage.

Abagabo bambaye imipira y'umukara ndetse n'abandi bafite ingofero z'umweru ni bo bakoze umuganda wabaye kuri uyu wa Gatanu, aho bari bari gusana umuhanda wangiritse kugira ngo uge ukoreshwa.

Abana bakora imyitozo mu kibuga giherereye mu Karere ka Nyagatare bavuga yuko igihe bari gufana bituma habaho kwishimana n'abandi ubundi ikipe bafanaga ikaba yanatsinda.

Umuyobozi yahaye ijambo abaturage na bo bagira icyo bavuga ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu kagari kabo bavuga yuko ibisambo byitwikira ijoro ubundi bikabibira amatungo.

Ni ngombwa ko igihe habaye ikosa mu kibuga umuyobozi w'umukino cyangwa se umusifuzi agomba kugira icyo abikoraho kugira ngo iryo kosa ritaza gusubirwa ubundi umwe akaba yabura ubuzima.

Kureba umupira ni bimwe mu bintu bituma umuntu aruhuka mu mutwe kandi akumva atekanye, kabone n'ubwo bamuca amafaranga ari hejuru y'ibihumbi icumi arayatanga ariko akavuga ko ibyishimo ari cyo kintu cya mbere mu buzima.

Ubuyobozi bw'ikipe ya Gasogi buravuga y'uko byanze bikunze mu umukino wahuje ikipe yabwo ndetse na APR FC ikipe y'Ingabo z'igihugu bari buze kuwitwaramo neza.

Ikipe y'Igihugu y'abatarengeje imyaka makumyabiri n'itanu, yahuriye kuri sitade Umuganda, ubundi ikorana imyitozo n'abatoza bagiye batandukanye.

Ni byiza ko abakinnyi igihe bari gukina bagomba gukora imyitozo ngororamubiri mbere yo kujya mu kibuga kugira ngo bahangane n'indi kipe kuko bituma amaraso abanza gushyuha.

Mu karere ka Bugesera hashyizweho gahunda yo gucunga ruhago nta nkomyi, bitewe n'uko ikibuga bari baremerewe umwaka ushize, bacyubakiwe kandi kikaba gitanga icyizere.

Mu Karere ka Nyagatare mu marushanwa yitiriwe Umurenge Kagame kapu, abanyeshuri babaye aba kabiri bahembwe ibihumbi magana abiri bitewe n'uko bitwaye.

Ntabwo bikiri ngombwa ko siporo ikorwa ku manywa gusa ahubwo igihe umuntu arangije akazi ikigoroba ashobora kuyikora kandi ikagira ibyo imwinjiriza mu buzima bwe.

Abatoza benshi b'abangavu, bakomeje guha imidari y'ishimwe ikipe yabo, ivuye mu mahanga ikaba yaritwaye neza, ikaba igarukanye ishema mu Rwanda.

Gukora siporo kenshi na byo bituma umuntu agira ubuzima bwiza bitewe n'uko imitsi ijyana amaraso mu bwonko ndetse no mu rutirigongo, ihita irambuka ubundi umuntu ugasanga ameze neza.

Umukino wahuje Rwimiyaga na Rukomo kuri finali mu Karere Ka Nyagatare, Rukomo yatsinze ibitego bibiri kuri kimwe Rwimiyaga bituma yegukana umwanya wa mbere, ndetse ihabwa akayabo k'amafaranga.

Abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage bifatanyije mu gikorwa cya siporo rusange, cyabereye mu mujyi wa Kigali mu masaha ya nimugoroba.

Mbere y'uko umukino atangira yaba ikipe yakiriye ndetse n'iyasuye hamwe n'abasifuzi babanza kwiyereka abafana babo bombi bakabasuhuza mu rwego rwo kugira babereke agaciro.

Abitabiriye umukino wahuje ikipe y'ingabo z'Igihugu ndetse na Mukura, bavuze yuko abasifuzi bitwaye neza ugereranyije n'umukino wabanje wahuje Amagaju ndetse n'ikipe ya Etensele.

Abakora ibikorwa byo gutunda amazi bayaha abaturage ndetse bakanayatwara ku magare, bavuga y'uko ibi bintu byabafashije cyane ndetse kuri ubu bakomeje gutunga imiryango yabo.

Imihanda yo mu byaro ikomeje gutera inkeke abayigendamo bitewe n'uko ibatera ibyondo ndetse n'abafite ibinyabiziga ikabyanduza bitewe n'uko igihe imvura yaguye cyangwag se izuba ryabaye ryinshi bibatera inkeke.

Ni byiza ko mu ngo zose ndetse no muri buri mudugudu, hanyuzwamo umuhanda, kugira ngo abaturage babashe kugeza imyaka yabo ku isoko neza badahuye n'ingorane zikomeye.

Imihanda ya kaburimbo ikomeje gutanga ikizere cy'uko u Rwanda rukomeje gukataza mu iterambere, bitewe n'uko abantu bayikoresha baba bavuga ko nta kibazo bahura na cyo cyaba ik'ivumbi cyangwa ibyondo.

Ahantu hose ndetse hatandukanye hagiye hashyirwamo uburyo bw'amavuriro yaba yigenga cyangwa se aya Leta, mu rwego rwo kugira ngo buri muturawanda yahuye n'ikibazo, avurwe.

Kubaka imihanda ya kaburimbo mu duce tugiye dutandukanye mu mujyi wa Kigali, biratanga icyizere cy'uko mu gihe kizaza u Rwanda ruzaba ruri ku isonga mu kugira umujyi ucyeye ijana ku ijana.

Abakoresha umuhanda noruveje, bavuga yuko igihe bari kuwugendamo babona ari byiza bitewe n'uburyo wari warangiritse maze bakanashimira leta y'u Rwanda yawuvuguruye kuko ubu ngo bagenda neza igihugu kigendwa.

Mu nzu zigurisha ibinyobwa bisembuye nk'inzoga ndetse n'ibindi biravugwa yuko zigomba kugabanyirizwa umusoro biturutse ku bihombo byatewe n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.